Kwita ku myaka bikorwa n'abahinzi batandukanye bakora umwuga w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, bita ku buhinzi bwabo bakoresheje ibintu bitandukanye hibandwa cyane ku miti iterwa ibyo bihingwa runaka, urugero nk'imiti iterwa mu bigori bifasha kwica udusimba n'ibyonnyi biba birimo.

Ubuhinzi bw'ibigori aho abaturage bibumbiye hamwe, bari mu murima wabo w'ibigori, batoraguramo udusimba dutandukanye tuba turi muri ibyo bigori, hanyuma bagateramo imiti mu buryo bwo kwitegura kongera umusaruro.

Imbuto y'ibigori yatubuwe ndetse inatunganywa mu buryo bwizewe, ku buryo yohererezwa abaturage, abahinzi, aho bari hose mu gihugu bakayihinga. Ibafasha kuzamura iterambere ryabo mu bijyanye n'ubuhinzi bwabo, bakabona umusaruro uhagije, bagakuramo ibyo kurya ndetse n'ibyo bohereza mu masoko.

Ubuhinzi bw'ibigori bwa kijyambere, aho byitabwaho mu buryo butandukanye, harimo kubimenera, kubishyiraho itaka ndetse n'ibindi. Umuturage ari mu bigori bye ari kongeraho ifumbire kugira ngo yongere umusaruro.

Inzu icuruzwamo imiti itandukanye, hibandwa ku miti y'amatungo ndetse n'ibihingwa, aho abacuruzi bajya kuyirangura ku nganda ziyikora bakayizana, bakayegereza abaturage bahinga ndetse n'aborora, kugira ngo bibafashe kurwanya ibyonnyi n'udusimba tuba turi mu myaka yabo ndetse no ku matungo yabo, bikabafasha mu iterambere ryabo.

Ibyapa bitandukanye biri ku nyubako runaka, biranga ibikorwa bitandukanye, harimo icyapa kigaragaza ibintu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'icyapa kigaragaza ahakorerwa amarangi yifashishwa mu gukora amasuku, mu bikorwa bitandukanye.

Ikibaya gihinzemo amasaka, iyo amaze kuma ajya gutunganywa akaba yavamo ifu yo gukoramo igikoma cyangwa se ifu ivamo ibinyobwa bindi bitandukanye, ari byo bita ibinyobwa bisembuye.

Ikusanyirizo ry'amata, aho aborozi bafata amata bakuye ku nka yabo, bakayajyana ahantu hamwe hateganyijwe kwakira ayo mata, agapimwa yasangwa yujuje ubuziranenge, akajyanwa mu ikusanyirizo gukoramo amata meza mu ruganda yongewemo intungamubiri zihagije kandi zikenewe, bityo akajyanwa ku isoko ry'ubucuruzi.

Ubuhinzi bw'ibirayi, aho umuturage arimo guhinga ibirayi yifashishije imyobo mitoya, ifumbire, imbuto byamara gukura bikamuha ibyo kurya ndetse umusaruro akawujyana ku isoko akabigurisha abandi batabifite ndetse agatera imbere.

Umuhinzi uri mu muhanda uvuye mu murima we kureba uko igihingwa cy'ibigori yahinze mu murima we kimeze, iyo agezemo agasanga hari aho byabaye byinshi bimwe abiranduramo ibindi akabitema, akabijyana mu rugo kubigaburira amatungo.

Ubuhinzi bw'ibigori aho abaturage bafata ibigori bakabijyana mu bwanwanaki bubifasha kuma neza, byamara kuma bagafata umwanya bakabihungura ndetse bakabipakira mu mifuka ibafasha kubitwara neza babijyana mu nganda zizabitunganya, zikabikuramo amafu atunganyijwe neza kandi yiziwe.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko ry'ibiribwa, hibandwa cyane ku bitoki bivamo ibiribwa bitekwa ndetse n'ibivamo imineke, aho abacuruzi bajya mu biturage kubishakisha mu baturage, bakabizanira abandi ku isoko batabifite.

Ibiti binini birebire bikuze biri hamwe mbese byitwa ishyamba. Bikaba bikubiyemo ibyitwa sipule, intusi, ndetse n'ibindi. Bikura cyane bikajya kubyazwa umusaruro mu buryo butandukanye. Urugero nk'ubwo gukoramo imbaho zikoreshwa ibikoresho byo mu rugo.

Avoka nyinshi zimaze gusarurirwa hamwe, aho abahinzi bazifata bakazisarura bakazohereza mu nganda zitandukanye zijya kuzitunganya zigakoramo ibintu bitandukanye hibandwa cyane cyane ku bijyanye n'amavuta akenshi yo gukoresha mu musatsi ndetse izisigaye zikaribwa n'abantu batandukanye.

Ubusitani bwiza bugizwe n'indabo zitandukanye, urugero umucaca ndetse n'izindi, bikikije inzu, igipangu cy'ahantu runaka, bifasha kugira aho hantu heza, ndetse no kwitabwaho mu isuku ihakorerwa buri munsi.

Inzu iri ahantu runaka ikikijwe n'indabo zitandukanye, hibandwa ku mabara atandukanye, indabo zifasha kugera ahantu heza ku buryo uhageze yifuza kuhaguma ndetse zigakoreshwa mu birori bitandukanye zikaba, zanajyanwa ku masoko kwifashishwa mu bindi bintu.

Ubuhinzi bw'imboga urugero nka kokombure, buhingirwa muri pepinnyeri, ahakorerwa imishinga itandukanye. Bigafasha kwiteza imbere mu buryo bworoshye ndetse bikajyanwa no ku masoko.

Ibimera byo mu bwoko bw'imboga byitwa intoryi, bikoreshwa mu gutegura amafunguro atandukanye mu miryango ndetse n'ahandi, kandi kikaba gifasha mu kurinda indwara nk'uko izindi mboga zose zibigenza. Ni icy'ingenzi mu buzima bwa buri muntu.

Urujya n'uruza rw'abantu mu isoko ryibanzemo imbuto ziribwa, urugero nk'inanasi, watermelon, amapapayi ndetse n'imineke, aho abacuruzi bajya mu midugudu no mu baturage bakagurayo izo mbuto, bakazizana ku isoko zikagurwa n'abandi baturage batazifite.

Intoryi nka kimwe mu biryo by'ingenzi kubera ko zifitemo intungamubiri zifasha kurinda indwayi aho abahinzi bazikura mu murima bakazijyana mu miryango bakaziteka cyangwa se bakazohereza ku masoko zikagurishwa abatazifite.

Ubuhinzi bw'imboga hibanzwe ku nyanya, aho abahinzi bakoresha uburyo butandukanye mu kuzitaho kugira ngo zizatange umusaruro, umuhinzi akoresha imiti itandukanye azitera bikica udukoko n'udusimba tuba tuziriho tuzibuza gutanga umusaruro, bityo bigatuma zera neza ndetse zikamugirira akamaro.

Mu isoko ricuruza ibintu bitandukanye hibandwa ku biribwa, urugero ibijumba, ibihaza, aho abacuruzi bajya mu giturage bakabigura n'abaturage, bakabizana mu isoko bakabigurisha abaturage batabifite.

Ubusitani bwiza, buteguwe neza, bwitaweho, bufite isuku. Bukubiyemo indabo zitandukanye urugero nk'ubucaca, izifite amahwa n'izitayafite. Burasa neza ku buryo buri muntu wese ahageze yakwifuza kuhagarara cyangwa se kuhitegereza.

Ubuhinzi bw'imbuto bwitaweho cyane, aho abahinzi bashaka ingemwe, bakazitera, zigakura, bakomeza kuzitaba no kuzikorera kugeza zizanye imbuto, imbuto zamara kwera zikajyanwa ku isoko, zigahabwa abacuruzi na bo bakazigurisha abandi bazikeneye.

Tangawizi mbisi iyo zigikorwa mu butaka. Iyo zimaze gusarurwa zirumishwa, hanyuma abacuruzi bakajya kuzirangura bakazijyana mu masoko kuzigurisha abaturage bazikeneye. Zifite umumaro kubera ko zifasha mu bintu byinshi bitandukanye.

Intoryi ni ubwoko bw'imbuto n'imboga ndetse zifasha mu kurinda indwara imibiri yacu zikiri mu murima mu isambu zitarasarurwa ngo zijyanwe gutegurwa mu mafunguro yo mu miryango cyangwa se zijyanywe mu masoko.

Igiti cyo mu bwoko bw'ipapayi kiri ahantu ku nzu runaka, kigira imbuto ziribwa ndetse n'amababi avamo imiti, izo mbuto zishobora kuribwa n'abagize umuryango ariko iyo zibaye nyinshi zishobora no kujyanwa ku isoko.

Isambu irimo ibihingwa bitandukanye hibanzwe ku biribwa dukenera mu buzima bwa buri munsi, urugero nk'ibijumba n'intoryi ariko hanahinzwemo ibiti bivaho imbuto ziribwa byitwa amapapayi.

Ubuhinzi bugezweho bw'igihingwa k'ibigori, aho umuturage ubihinga ahinga ku mirongo nkuko abakangurambaga babimukanguriye ndetse agakoresha uburyo bugezweho bwo kuvomera imyaka, ayirinda kuzicwa n'izuba bityo imyaka igakura neza igatanga umusaruro.

Agace runaka mu giturage kagizwe n'inzu zitandukanye ndetse n'abantu batandukanye, agace k'ubuhinzi kegeranye n'imisozi miremire, iciyeho amaterasi y'indinganire, ibiti byinshi byaba ibirebire ndetse n'ibyatsi byo hasi.

Ikibaya kirimo umuceri ukiri mutoya cyegeranye n'agace gatuyemo abaturage baba ari bo bawuhinze, iyo umaze kwera urasarurwa, abaturage bakawujyana ku ruganda, ugatunganywa ukagezwa ku isoko, ukagurishwa abandi batawufite cyangwa se batawuhinga.

Amaterasi y'indinganire acibwa mu butaka buri ahantu habi hashobora gutwarwa n'isuri, birinda ubutaka ndetse bigafasha n'imbuto zibutewemo mu gihe imvura yaguye kubera ko bubika amazi bityo ibihingwa bigakora neza ibyo bigafasha abahinzi.

Inzu yo mu giturage runaka yubakishijwe amategura ifite urutoki munsi ya yo ndetse ikikijwe n'amasambu ahinzemo ibihingwa bitandukanye, urugero nka kawa kandi harimo n'ibiti bitera imbuto.

Amazi atemba nka kimwe mu bidukikije afite akamaro gatandukanye, acumbikiye inyamaswa nyinshi zitandukanye, haba iziribwa ndetse n'utundi dukoko dutandukanye, amazi kandi akoreshwa mu mirimo itandukanye, haba mu mirimo yo mu rugo ndetse no mu bindi bikorwa by'ingenzi.

Agace runaka ariko katari umudugudu gatuyemo abantu bake ndetse n'amasambu ahingwamo imyaka itandukanye, urugero nk'ibigori ibishyimbo, urutoke ndetse gakikijwe n'indi misozi nayo ituwemo n'amazu make make ariko iyo misozi ikaba ifite n'amashyamba ndetse ikaba igizwe n'amaterasi n'indinganire.

Umudugudu mwiza usa neza, ufite ikirere cyiza, ukikijwe n'ahantu heza, ibibaya byiza bifite ibimera byiza ndetse n'imisozi itandukanye ikubiyemo ibimera bitandukanye ndetse n'ibiti birebire harimo nk'inturusi ndetse n'ibindi biti bitandukanye.

Ubworozi bw'ingurube bworoheje, butari bumwe bwa kijyambere, aho umuturage afata ibiti akubaka ibiraro bisanzwe akazororeramo, iyo zimaze gukura zimwe zirabwagura zikororoka izindi zikagurishwa zikabagwa.

Ibibwana by'ingurube biri hamwe bigaragare ko ari mu kiraro cya kijyambere, byitaweho neza byakorewe isuku mu bworozi bwa kizungu, aho bifasha mu iterambere ry'umuryango ry'umuntu muri rusange, kubera ko bivamo amafaranga menshi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umuturage wo mu gace runaka uri iwe mu rugo imbere y'itungo rye rigufi ry'ihene, aho aryororera arigaburira akaryitaho kugira ngo rizamuhe umusaruro mu gihe runaka.

Inkoko iri mu gace runaka, hashobora kuba ari mu rugo cyangwa se ahandi hantu igenda itora utuntu dutandukanye urugero nk'utunyamaswa, utuntu tw'utubuto twatakaye hasi, biyifasha cyane mu kongera umusaruro wayo iyo itera nk'amagi.

Ingurube mu kiraro cyayo ariko cyoroheje aho irya ibyatsi bisanzwe, iba mu kiraro gisanzwe cyo mu giturage. Ariko irwaye ifite ikibazo iryamye idafite imbaraga, ikeneye kuba yakitabwaho mu buryo b'ubuvuzi.

Ubworozi bw'amatungo bwibanda ku nka, aho umuturage ajya ku isoko akagura inka, akayizana akayitaho, mu gihe runaka ikazabyara indi, zikororoka, ndetse zikamuha n'amafaranga amufasha gukemura ibindi bibazo bitandukanye, biri mu muryango we.

Abaturage batandukanye baje mu gikorwa cyo guhabwa ingoboka zigizwe n'amatungo y'ingurube, aho abaturage batishoboye mu gace runaka bahabwa itungo rishobora kubafasha kuzamura iterambere ryabo, haba mu rugo ndetse no muri sosiyete.

Urugo rurimo ubworozi bw'inka bwa kijyambere, aho basurwa n'abantu batandukanye, barimo abayobozi bareba uko biteje imbere ndetse n'abandi baturage bashaka kubigiraho bagatera imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi bworoheje aho umuturage afata ihene akayarorera mu kiraro akayisasiriramo akayigaburiramo, igatanga ifumbire rikoreshwa mu gufumbira imyaka ndetse igera aho ikororoka izindi ziyivuyeho zigatanga amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko bworoheje aho umworozi yorora inkoko nkeya ashoboye kwitaho mu buryo bwo kuzigaburira, akazitaho akazishakira ibyo zirya, akaziha buri kimwe ndetse akazirekura, kugira ngo zigende zitora ahantu hatandukanye hanyuma zizamuhe umusaruro.

Pepiniyeri yibanda ku buhinzi bw'imbuto urugero nka voka aho bafata ibibuto bakabimeza byamara gukura abahinzi babishaka bakaza bakabigura bakabijyana kubitera mu mirima yabo, mu gihe runaka bigatangira kubaha umusaruro.

Imirima iri mu gishanga hafi y'amazi, abahinzi bahitaho bahahinga neza bitonze kugira ngo batangiza ibinyabuzima biba biri muri ayo mazi, kubera ko bifasha cyane cyane mu kwita kuri byo bihingwa bihinzemo ndetse no kubibungabunga.

Umushinga w'imboga z'ubwoko bw'amashuri zihinzwe hamwe, zajyanwa ku isoko kugurishwa abaturage batazifite ndetse zikaba zanakorezwa mu bigo by'amashuri bitandukanye kugira ngo zifashishwe mu biribwa abana bahabwaga kuko zifite intungamubiri nyinshi muri zo.

Ubuhinzi bw'imigozi buvaho ibijumba biribwa mu miryango itandukanye ndetse n'ibijyanwa ku masoko abatabifite bakabihaha, hari n'ibindi bijyanwa mu nganda zitandukanye zibikoramo ibyo kurya hibandwa ku mikati ndetse na biscuit.

Ubworozi bw'inka aho umworozi ajya ku isoko akagura inka akayizana, akayorora, akayitaho, ndetse akayishakira imiti, agatumaho na veterineri kugira ngo aze kwita kuri ya nka, urugero nko mu gihe bayikuraho amahembe bayitera imiti itandukanye, bikazayifasha mu gutanga umusaruro.

Umworozi uri kwita ku itungo rye mu buryo bugaragara, aho akoresha ibikoresho bitandukanye, yibanda ku bimufasha kwirinda kugira ngo na we atandura, harimo nk'uturindadantoki ndetse n'ibindi. Akoresha imiti itandukanye, urugero; nk'inshinge zifasha iryo tungo kumera neza no gutanga umusaruro.

Inkende nk'imwe mu nyamaswa zihariye, zijya zitoroka ishyamba zibamo zikajya mu bantu, akenshi zijyayo zigiye kwishakira ibyo kurya urugero nk'imineke, gusa hari abavuga ko iyo zihuye n'abantu b'igitsina gore zishobora kugira abo ziyenzaho.

Inyoni mu mashami y'ibiti meza cyane, atoshye, asa neza, yitegereza ibintu bitandukanye ndetse aho ziririmba ku buryo buri wese ubyumvishe, abiteze amatwi, bimuryohera cyane.

Kimwe mu nyamaswa ziguruka bita ikiyoni cyangwa se igikona kiri mu gace runaka hasi, kigenda, gitambatamba, kitegereza, gitora utwo kurya ahantu hatandukanye.

Inkende nka kimwe mu bigize ubukerarugendo bw'inyamaswa, iri mu mashami y'ibiti, aho n'ubusanzwe zikunda kwibera, yitegereza ibintu bitandukanye biri muri icyo giti.

Inkende nk'imwe mu nyamaswa zihariye dufite ziba hamwe n'imiryango yazo, zikaba mu mashami y'ibiti. Ziratangaje cyane kubera ko hari ibintu byinshi abantu babona ko zitangajeho. Urugero inkende ni inyamaswa izwiho kuba ikunda kurya ikiribwa cy'imineke ariko abantu barazitinya cyane.

Agasimba kitwa uruvu nka kimwe mu bidukikije gatandukanye cyane n'ibindi bisimba, kagira amaso manini ariko kanafite umwihariko utangaje cyane w'uko aho kageze gahita gasa n'aho hantu, urugero nk'iyo kageze ku bibabi by'icyatsi gahinduka icyatsi, kagera ahantu hasa nk'umukara kagasa umukara ndetse n'andi mabara, karihariye cyane rwose.